Abanyeshuri batoya bicaye ku ntebe, hagati yabo hari ameza akoze mu rubaho rw'igiti. Imbere yabo buri wese afite igikinisho agenda akoresha kugira ngo abashe kumenya icyo bagezeho biga, bambaye imyenda y'ubururu n'umukara.

Leta yacu y'u Rwanda ni umubyeyi. Iricaye ikadutekerereza, igashyiraho ibintu bigoboka abantu. Yadushyiriyeho amarerero, tujyanamo abana batoya. Bicaye ku mukeka, ubahagarariye arimo arabasomera inkuru mu gitabo. Ni ahantu umuntu ajyana abana akahabasiga, ababyeyi bakagenda basimburana, bityo udafite uwo asiga mu rugo, akabona aho asiga umwana we.

Abana bato bicaye ku mukeka, bakoze uruziga. Bambaye imyenda y'amabara avanze. Bakuyemo inkweto bose bazisiga hasi. Hagati harimo umukobwa wambaye ipantaro y'ubururu, ishati y'amaboko. Arimo kubasomerera igitabo, abagezaho ibyo bagomba kwiga. Hirya hari urutoki rwinshi.

Abana batoya bicaye ku mukeka urimo amabara atandukanye, bamwe bambaye impuzankano y'ishuri, imbere yabo hari amasahane, bafite ibiryo bari gufungura, Leta yacu y'u Rwanda yashyizeho gahunda y'irerero kugira ngo buri mubyeyi wese abone aho asiga umwana ajye gushakisha ubuzima.

Abana bicaye ku ku mukeka ufite amabara atandukanye. Bambaye ibirenge, inkweto bazisize hasi. Babahaye ibikombe bifite amabara y'icyatsi n'umutuku wererutse. Hirya yabo hari umudamu wambaye igitenge, igitambaro mu mutwe. Arimo kubatoza umuco ababwira uko bagomba kwitwara.

Ishuri rinini cyane ririmo intebe z'imbaho, utwana dutoya tw'utunyeshuri twabaye impuzangano, dufite ibitabo ku meza barimo gusoma, ni byiza ko buri mwana wese akunda gusoma ibitabo kuko bituma atinyuka.

Ishuri rirererwamo abana b'inshuke, bicaye ku mukeka, bafite ibikombe barimo kubaha igikoma, umudamu uhagaze ukenyera ibitenge, arimo kubabwira uburyo bagomba kwitwara neza, hirya hari udutebe duto cyane twagenewe kwicarwaho n'abana batoya.

Abana batoya batatu b'abakobwa bambaye impuzankano y'ishuri, bafite utubogisi mu ntoki tw'ubururu twanditseho inyuguti barimo kwiga, inyuma yaho hari ikibaho cy'umukara cyandikishijeho ingwa y'umweru, umuhondo n'ubururu, bigaragara ko ari amasomo mwarimu yabahaye yo kwiga.

Gahunda ya Leta yo muri buri midugudu, bashyizeho amarerero atandukanye, kugira ngo ababyeyi batagira aho basiga abana bifatanye bajye basigaranaho bamwe bajye ku kazi, ni byiza cyane kuko babatoza umuco, bakabaha ibyo kurya bifite intungamubiri kugira ngo batahe bamerewe neza.

Leta yacu y'u Rwanda yashyizeho gahunda y'amarerero muri buri mudugudu, abana batoya bicaye mu cyumba ku mukeka, bifashe neza urabona ko hari umubyeyi ubicaye inyuma, uri kubashyira ku murongo, ababwira uko bitwara. Buri mubyeyi amujyanayo kugira ngo udashoboye kubona uwo amusigira, abone aho amusiga hizewe.

Utwana duto tw'utunyeshuri tubiri turi mu muhanda turimo kwirukanka twambaye impuzangano ituranga. Ntago ari byiza kohereza abana batoya mu muhanda bakagenda biruka kuko bashobora guhura n'ikinyabiziga kibatunguye, ugasanga kibagonze.

Abana bato bicaye hasi bambaye impuzangano ibaranga, bahuje ubumwe barimo guseka. Imbere yabo hari imfashanyigisho ibereka ibyo bize mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo babashe kubisubiramo. Inyuma yabo hari imeza ifasha mwarimu kwicaraho kugira ngo abashe kubasobanurira.

Umukeka munini cyane uri mu mabara atandukanye, bicajeho abana batoya, bambitse imyenda y'ibitenge isa, babahaye igikoma cyo kunywa, babashyirira mu bikombe bya parasitike by'ubururu n'icyatsi, umubyeyi uri hagati yabo bigaragara ko ari we ubigisha abatoza umuco.

Abana bato b'abanyeshuri, babicaje kumukeka hanze bambaye impuzangano, umudamu wa ukinnye igitenge yambaye ishati y'ubururu igitambaro umutwe, arunamye arimo kubahereza ibyo kurya, ababwira uko bagomba kwitwara neza, ni mu irerero kugira ngo buri mwana wese, abone aho asigara yisanzuye.

Urukuta rw'amatafari ahiye bigaragara ko ari ishuri, hamanutseho igipapuro cy'umuhondo giciyemo imirongo, bigaragara ko ari imfashanyigisho abarimu baba bamanitse, kugira ngo buri mwana niyinjira ahite yiyibutsa ibyo amaze iminsi yiga.

Abana batoya bicaye inyuma y'ishuri, bambaye impuzankano ibaranga, buri wese yihugiyeho, bigaragara ko ari umukoro babahaye wo kwandika, buri wese ku giti cye nta wubwira undi, harimo abahagaze barimo guhererezanya ikayi babiri.

Ikigo cy'amashuri kinini cyane, gifite amashuri atandukanye menshi, kirafunze, nta banyeshuri bahari, bigaragara ko ari mu biruhuko, ikibuga cyabo ni gishyashya kuko nta byatsi byinshi bihari, kiratose, imvura yaguye, bategereje ko humuka.

Ikigo cy'amashuri kinini cyane, gifite urugo rw'amatafari ahiye hepfo haruguru ari imiyenzi ihazitiye, abanyeshuri barimo kwinjira abatoya n'abakuru, umuzamu uhahagaze uri kureba uko bitwara abarinda gusohoka bya hato na hato.

Ikigo cy'amashuri kinini cyane gisakaje amabati, cyubakishije amatafari ahiye, inzugi n'amadirishya bisize irangi ry'ubururu, hagati harimo icyibuga batarakora neza bigaragara ko imvura yaguye harimo ibyondo, hagati hari igiti kihashinze bigaragara ko hariho idarapo ry'igihugu, hakurya hari ishyamba ryinshi.

Abana batoya bambaye imyenda ya kaki, ubururu hejuru bwerurutse bafite utubase dutoya mu ntoki bigaragara ko bavuye gufata amafunguro, bagiye kudukorera isuku kugira ngo ejo bazadukoreshe tumeze neza dufite isuku.

Abana batoya b'abanyeshuri bambaye impuzankano ibaranga, kake n'ubururu, biciyemo ibice bamwe bareba imbere abandi bareba inyuma, bazamuye ibiganza bigaragara ko hari umukino bababwiye bagomba gukina bagahuriza hamwe.

Ikigo cy'amashuri kinini cyane. Harimo abanyeshuri barimo gukina. Baranezerewe bari gukora imyitozo ngororamubiri. Akana gatoya gahetse igikapu kari konyine. Ni ikigo gifite imiryango myinshi kuko imwe muri yo irakinguye.

Ishuri ryubakishije amatafari ahiye, harimo intebe abanyeshuri bicararaho zikozwe mu mbaho, batashye nta n'umwe urimo, imbere hari ikibaho bigaragara ko ari cyo mwarimu yandikaho agabasobanurira bakabasha kwandika mu makayi ibyo bumvise.

Ikigo cy'amashuri kinini cyane cyubatse haruguru y'umuhanda, cyubakishije amatafari ahiye gisakaje amategura, abanyeshuri ubona ko bari gusohoka bagejeje igihe cyo gutaha hasa nk'aho habaye nimugoroba, imbere yabo hari umuhanda w'ibitaka munini cyane bagiye gucamo.

Ikigo cy'amashuri gifite hepfo no haruguru, hagati harimo ikibuga kinini cyane bakiniramo Volleyball, agatebe bicaraho barimo kogeza abakinnyi, barimo kwitoza, ni byiza gukora siporo, kuko ifasha umubiri wacu.

Ishuri rinini cyane. Harimo intebe zikoze mu mbaho. Abana barimo barikinagura mu ishuri, bigaragara ko basoje amasomo yabo. Ikibaho bandikiraho cy'umukara. Ni inshingano za buri mubyeyi kohereza umwana kujya kwiga kugira ngo buri munyarwanda wese abashe gusoma no kwandika.

Ingwa ni igikoresho gikoreshwa umwuga w'ubwarimu. Ikiganza gifite akabuwate karimo ingwa z'amoko atandukanye. Umweru, ubururu, umuhondo, icyatsi, bazikoresha bandika ku kibaho kugira ngo abanyeshuri babashe gukoporora amasomo babagejejeho bandike mu makayi yabo.

Ikigo cy'amashuri kinini cyane cyubakishije amatafari ahiye, gisakaje amabati, umuryango urakinguye, abana bari hanze mu kibuga barimo kwikinagura, bambaye impuzankano ibaranga.

Icyumba cy'ishuri gikinguye, urugi rusize irangi ry'icyatsi, abana batoya bambaye impuzankano ibaranga bahagaze mu muryango, bigaragara ko basoje amasomo yabo bategereje gutaha.

Abana bato b'abanyeshuri bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho z'ibiti, bambaye impuzangano ibaranga. Imbere yabo bafite amakayi, bigaragara ko biherereye buri umwe umwe ari kwandika, bari mu bizami.

Ikigo kinini cyane cy'amashuri gifite boroke eshatu zitandukanye, iyo hepfo, iyo haruguru n'iyo hirya, yubakishije amatafari ahiye, isakaje amategura, imiryango isize irangi ry'umuhondo, harimo ikibuga kirimo ibyatsi bitaramera neza.

Icyumba cy'ishuri kirimo intebe bateretseho amasahani asa y'ibyuma, umwana w'umukobwa ufite akabase karimo akawunga arimo aragenda abarurira abagabanya kugira ngo be gucuranwa barye ntawe uhenze undi.

Umuryango umwe w'ishuri ufunze, urugi n'amadirishya bisize irange ry'umuhondo, ku mpande hariho umweru bakishije amatafari ahiye, isakaje amabati, hagati harimo ibyatsi, nta banyeshuri bahari.

Amashuri menshi cyane ari ku murongo, hagati harimo ubusitani bwiza cyane burimo ibiti birebire bibaho umuyaga ndetse bigakurura n'imvura, harimo abana bato b'abanyeshuri bambaye impuzankano ibaranga barimo kwiruka.

Icyumba cy'ishuri cyicayemo abana batoya bambaye impuzankano, bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho, imbere bafiteyo ikibaho wandikiraho, amadirishya arakinguye, inyuma hari akagare, bigaragara ko bafite umwana ubana n'ubumuga.

Abana batoya benshi bakoze uruziga bigaragara ko bari kugenda basimbuka, bari mu byatsi byinshi, umuntu mukuru w'umukobwa wambaye ikanzu, usutse imisatsi biragaragara ko ari kubakinisha aberereka uburyo bidagadura na we yabikunze, arimo kwisanisha na bo.

Kiliziya nini cyane yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'umutuku, hejuru hariho umusaraba bigaragaza ko ari ahantu bavugira ijambo ry'Imana. Imbere yaho hateye ibyatsi byinshi, hepfo hari umuhanda w'ibitaka uri kugendamo umuhungu w'umunyeshuri.

Ikigo kinini cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye, gisakaje amategura, abanyeshuri benshi cyane bari mu kibuga bambaye impuzankano y'ubururu ndetse na kaki, abana batoya bafite amabase, indobo, bari kuvoma amazi yo kujya gukora amasuku mu mashuri yabo.

Ikigo kinini cy'amashuri kirimo abana batoya bambaye imyenda y'ubururu na kaki, hagati harimo ikigega kinini gifata amazi kugira ngo birinde umwuzure wa hato na hato, umwarimu uri hagati yabo urimo kugenda abaganiriza.

Icyumba kinini cy'ishuri kirimo intebe zikozwe mu mbaho z'igiti, zirateye nta munyeshuri wicayemo, imbere hari ikibaho cy'umukara bigaragara ko ariho mwarimu abandikira akabasobanurira amasomo yabigishije uwo munsi wose.

Amashuri afite toilette nziza za kijyambere, imiryango irakinguye isize irangi ry'icyatsi isakaje amabati, imbere yaho hari ibyatsi byanitseho imyenda y'umukara. Ni byiza ko dukora toilette nziza tukagira isuku twirinda umwanda.

Ishuri ririmo abana bakeya batambaye iniforume, imbere yabo hari umukobwa wambaye ipantaro, umupira wa oranje, arahagaze arimo araberekera uko bakoresha mashini z'ikoranabuhanga, ishuri ryubakishije amatafari ahiye, umuryango ukinguye usize irangi ry'icyatsi.

Abana bato cyane bicaye bakozeza uruziga, bambaye imyenda itandukanye, hagati yabo harimo umukobwa wambaye ipantaro, umupira w'umuhondo, bose bafite ibitabo, barimo gusoma, ni byiza ko dutoza abana bacu umuco wo kumenya gusoma, bagakunda inkuru zitandukanye.

Parikingi ntoya yubakishije ibiti isakaje amabati, hagaze mu modoka nziza ya rava, iruhande rwabo hari abakobwa babiri barimo gusuhuzanya n'undi uhagaze umwe yambaye ipantaro y'umukara umupira w'umuhondo, uwambaye ikote rirerire biragaragara ko yishimiye mugenzi we arimo kumuganiriza

Imodoka ntoya y'umweru bayita mini bisi, yanditseho ko itwara abanyeshuri, ijyamo abantu cumi n'umunani. Ni byiza ko twateye imbere tukaba twarabonye nini zitwara abisumbuyeho.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye, gisakaje amabati, abanyeshuri barasohotse bari hanze bambaye impuzankano, ababyeyi babo baje kubasura barimo guhoberana kuko bari bakumburanye cyane, ni igihe cyo gusurwa kw'abanyeshuri.

Ishuri ririmo abana benshi, biragaragara ko bicaye mu byerekezo bitandukanye. Imbere yabo hari ameza asize irangi ry'ubururu bafite amasahani babashyiriyeho amafunguro barimo kurya, uhagaze ari kureba uko bitwara kugira ngo bataza gucuranwa.

Abanyeshuri bicaye mu kibuga ari benshi cyane, bambaye amashati y'umweru, bitwikiriye imipira y'ubururu barunamye, bigaragara ko bahuye n'izuba ryinshi riri kubice, imbere yabo hari amashuri, asakaje amabati y'umutuku, amashuri asize irange ry'umuhondo.

Abanyeshuri benshi bicaye mu kibuga, bambaye iniforume ibaranga y'ubururu n'umweru, baricaye bahanze amaso. Imbere yabo hari uhagaze wambaye inkweto z'umweru, ipantaro, ishati y'ubururu, afite irangururamajwi mu ntoki arimo arabagezaho icyo yateganyije kubaganiriza.

Ishuri rinini cyane rifite hasi no hejuru. Risize irangi ry'umuhondo. Amabati asakaye ni ubururu. Hirya hari ibiti. Hasi mu byatsi no mu kibuga hari abanyeshuri barimo kugendamo bambaye impuzangano bigaragara ko bari kujya kwinjira ngo bajye kwiga.

Abana batoya b'abanyeshuri, abakobwa, abahungu. Bicaye ku ntebe batandukanye. Bambaye udupfukamunwa bigaragara ko barimo gushaka ubwirinzi bwindwara zandura. Hagati yabo hari abagabo babiri bahagaze, bisa nkaho hari icyo bari kubasobanurira kidasanzwe. Bicaye munsi y'ibiti.

Abanyeshuri b'abakobwa bambaye impuzankano ibaranga, bari kumurongo barafatanye, bambaye utugofero tw'umweru mu mutwe, bahagaze muri sitade nini, inyuma yabo hari ibendera ry'igihugu.

Igihe cy'itangira ry'amashuri abana baba bahangayitse, babategeka kugenda bambaye imyenda ibaranga, bari iruhande rw'imodoka yagenewe gutwara abagenzi, bahetse ibikapu, bategereje yuko babinjiza ku murongo kugira ngo babashe kugenda neza bagiye ku ishuri.

Amashuri yubakishije amatafari ahiye. Inzugi n'amadirishya bisize irangi ry'icyatsi, zisakaje amabati y'ubururu. Imbere yaho hari ikibuga kinini cyane cya Basket bakorera imyitozo ngororamubiri. Ibiti byinshi bitanga umuyaga.

Abanyeshuri bambaye imyenda ibaranga, barahagaze bazamuye amaboko, imbere yabo hari intebe iriho ibikapu byabo ndetse n'amakaye, mwarimu wabo ari imbere ateze amaboko, arimo kubanezererwa, biranagaragara ko barishimye banezerewe n'uburyo bamaze kwiga.

Abanyeshuri bavuye kwiga barimo kugenda mu muhanda, biragaragara ko ari ku mugoroba, harijimye, bambaye impuzankano ibaranga, bahetse ibikapu, umuhanda bari kugendamo ku ruhande hariho ibyatsi, hepfo hari amazu asakaje umubati y'ubururu, ibiti biri ku mpande.

Abana batoya bambaye impuzangano y'ubururu, umukara. Bafite utubase dutoya mu ntoki barimo bagaragaza akawunga bagiye kurya. Gahunda ya Leta yo kugaburira abana hamwe kugira ngo bamwe bokubona ibyo kurya abandi babibure bigunge.

Biragaragara ko ari abanyeshuri bize ubuganga barimo kugerageza gusobanurira, bambaye imyenda y'umweru, hagati yabo hari ameza manini cyane asize irange ry'umweru, barambitseho ibikoresho bitandukanye, bari kubasobanurira uko buri kimwe gikora, uhagaze imbere yabo bamwitegereje bari kumva ibyo ababwira.

Abanyeshuri bicaye mu kibuga benshi cyane, bambaye impuzankano biragaragara ko bose bateze amatwi uri imbere yabo ari kubasobanurira, yambaye ipantaro y'ijingisi, umupira w'umweru, akajiri k'ubururu, biragaragara ko hari icyo ari kubaganiriza yabateguriye.

Ishuri rinini cyane riri hagati mu biti, ryubakishije amatafarihiye isakaje amabati y'umutuku risize irangi rizengurutse ry'umuhondo, hagati hari ikibuga kinini cyane cyagenewe ko abanyeshuri bakiniraho. Ni heza hari ibiti byinshi bibaha umuyaga bakumva banezerewe.

Ikibuga cy'umupira kinini cyane. Harimo abakinnyi batandukanye bambaye imyenda iri mu mabara y'ubwoko bwinshi. Barimo kwitoza bagerageza uko bakina umupira bakora amakipe bagatsindanwa. Ni byiza ko twakora siporo zitandukanye tugakina umupira, tugasimbuka, tukiruka, ni byinshi twakora imibiri yacu ikamera neza.

Abanyeshuri bicaye muri salle nini, yabugenewe bajya kwigiramo machine z'ikoranabuhanga. Imbere yabo hari amazi y'inyange ateretse bafite machine bari gukoreraho. Bambaye udupfukamunwa bigaragara ko bafite ubwirinzi. Hariho abicaye imbere yabo bafite ibyo bari kubasobanurira.

Ikigo kinini cyane cy'amashuri, gifite hepfo haruguru no ku ruhande, ni amashuri meza cyane yubakishije amatafari ahiye, asakaje amabati hariho irangi ry'umweru rigiye rihazengurutse, amadirishya ni ubururu, hagati harimo jaride nziza cyane, ibendera ry'igihugu, abana batoya bari inyuma bagiye kwiga benda kwinjira mu kigo.

Abana b'abahungu babiri bahagaze inyuma y'ikigo ku marembo, bambaye inkweto z'umukara, imyenda y'ubururu, amashati, imbere harimo ibendera ry'igihugu harimo amashuri menshi bigaragara ko ari ikigo kinini bigiramo.

Ikibuga kinini cyane cy'umupira kitarimo ibyatsi, hahagazemo abakinnyi bambaye imyenda itandukanye, umutuku, icyatsi n'indi ivanze, imbere yabo hari uwambaye imyenda y'umukara bigaragaza ko ari umutoza wabo uri kubabwira amabwiriza bagomba kugenderaho.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ibaranga, bicaye ku ntebe mu ishuri, bafite amakaye imbere yabo barimo kwandikira, barunamye, bigaragara ko bahuje umugambi bakurikiye mwarimu ibyo ari kubigisha, uri imbere bari kwerekera uko akora.

Ikigo kinini cy'amashuri gifite icyapa ku muhanda, gishushanyije ku rugi, handitseho amagambo agaragaza uko ikigo cyitwa, ko ari Gatagara TVET School Nyanza. Ni heza kuko abana bahigira imyuga itandukanye, bityo bakabasha kwibeshaho.

Abanyeshuri benshi cyane bicaye hasi bambaye amashati y'umweru, amapantaro ya kacyi bicaye hamwe barategereje bari kumva ibyo bababwira, abagabo babiri n'umugore umwe bahagaze imbere barimo kubaganiriza bababwira uko bagomba kwitwara.

Ishuri rinini cyane ryubakishije amatafari ahiye risakaje amabati, hasizeho irange ry'umuhondo n'icyatsi, abanyeshuri bicaye mu kibuga bambaye impuzangano ibaranga, ubona ko bitegereza abayobozi babo baba bicaye imbere, bari kubagezaho ibyo babateganyirije.

Abana bicaye mu ishuri ku ntebe zikozwe mu biti bambaye imipira y'icyatsi n'ishati y'umweru, imbere ya bo hari umwarimu uhagaze wambaye umupira w'umweru urimo kubasomera igitabo, hari ikibaho yanditseho n'ingwa y'umweru arimo kubasobanurira.

Ikibuga giteyemo intebe, hicayeho abantu, abagore, abagabo. Abana batoya b'abanyeshuri bambaye udupfukamunwa, impuzankano ibaranga, imbere hari umugabo uhagaze bigaragara ko bagiye kumworoza ihene, bakamuha itungo rigufi akabasha kwikenura.

Umwana muto w'umuhungu uvuye ku ishuri, yambaye ipantaro ya kacyi, ishati y'umweru, n'inkweto ziriho rase z'umweru, ari ku igare arimo kwitwara mu muhanda, hakurya ye hari umudamu urimo kugenda wambaye ijipo, umupira w'amaboko, igitambaro mu mutwe.

Icyapa kirekire kiri ku rugi kirimo ibara ry'umweru cyandikishije amagambo y'umukara avuga ko ari Mukingi secondary school. Ni ishuri rinini cyane. Umuryango waho usize irangi ry'icyatsi. Imbere harimo ibendera ry'Igihugu.

Ishuri rinini ryiza cyane. Rirageretse hasi no hejuru. Abana batoya bamwe bicaye hasi, abandi barahagaze hejuru. Bari kwitegereza umudamu uri imbere yabo wambaye ipantaro y'umukara, ishati y'umweru irimo amabara. Afite irangururamajwi, afite ibyo ari kubaganirizaho, bamuteze amatwi.

Ishuri rinini cyane ryubakishije amatafari ahiye, amadirishya arakinguye, imbere yaho hari ikibuga kinini bakiniramo umukino wa Volleyball, abanyeshuri bambaye impuzankano itandukanye b'amakipe abiri, inyuma yabo hari ubafasha kugira ngo babashe gukina neza, arabaha amabwiriza yuko bari bwitware.

Ikigo ni kinini cy'amashuri, cyubakishije amatafari ahiye, gisize irange ry'umweru, amadirishya arakinze, abanyeshuri bicaye hanze ku tubaraza bambaye impunzangano ibaranga, imbere yabo hari ushinzwe umutekano wambaye imyenda y'akazi, ufate ikayeyi mu ntoki bigaragara ko ateze ikiganza arimo kubasobanurira ibintu runaka bari kwigaho.

Ameza ateretseho utubase twinshi tw'amabara atandukanye, icyatsi, umutuku, ubururu, baruriyemo akawuga, bigaragara ko ari abanyeshuri bari gutegurira amafunguro, kugira ngo bajye kurya.

Ikigo cy'amashuri kinini cyane gifite urugo ruzengurutse rusize irangi ry'umuhondo. Icyapa kiharanga kiri mu irangi ry'umweru. Amashuri ashakaje amabati y'ubururu n'umutuku. Ni heza cyane kuko hazengurutswe n'indabo zihakikije.

Sale nini cyane irimo abantu bicaye, imbere hari abanyeshuri bambaye impuzangano y'umweru na kaki, uwicaye ari kubacurangira, uhagaze ari kubadirija kugira ngo baririmbire ababahanze amaso indirimbo zibanyure kandi banezerwe.

Isomero rinini cyane zirimo ibitabo byinshi kandi bitandukanye babishyize muri etajeri nyinshi kugirango ugikeneye aze ashake bitewe n'amateka yifuza kumenya, umugabo wicaye ku ntebe wambaye umupira w'umutuku urimo kwandika abamugana.

Icyumba cy'ishuri kirimo ibintu byinshi, intebe zikoze mu rubaho rw'igiti amakarito apanze arimo amakaye, ikibaho cyandikishijeho ingwa y'umweru hirya hari igipapuro kimanitse kiriho inyigisho zitandukanye, mari zipanzemo ibintu.

Abana b'abakobwa bambaye neza cyane, inkweto z'umukara, amasogisi y'umweru, amajipo ya kaki, amashati y'umweru, bari imbere y'inzu ndangamurage bagiye gusura amateka yaranze u Rwanda rwacu. Inyuma yabo hari umugabo wabaherekeje, umudamu ukenyeye wambaye neza.

Ivuriro rinini cyane isakaje amabati y'ubururu risize irangi ry'umuhondo n'umweru, imiryango ni umutuku, abantu bahagaze imbere bigaragara ko bagiye gusaba serivisi z'ubuvuzi butandukanye, hari jaride nini cyane iteyemo indabo.

Isomero rinini cyane ririmo ibitabo by'amoko atandukanye mu kabati kabugenewe. Ikiganza kirambuye, igitabo arimo gusoma amateka amwe n'amwe atandukanye. Ni heza kuko hatubikira amateka ya kera n'ay'ubu.

Icyumba cy'ishuri giteretse mu ntebe ikozwe mu mbaho, hejuru hariho ibitabo n'ikayi irambuye, hirya hari igisanduku kiriho amakayi menshi ajagaraye n'isakoshi, imbere hari ikibaho cyandikishije ingwa y'umweru, ibipapuro bigiye biriho amasomo abana bazajya bareba bagasubiramo.

Abanyeshuri bicaye ku ntebe muri sare nini, biragaragara ko bambaye impuzankano. Imbere yabo hari umuporisi wambaye imyenda y'akazi imuranga. Afite irangururamajwi mu ntoki, arimo kubagezaho ibyo yabageneye abisoma ku rupapuro afite mu ntoki.

Abanyeshuri bambaye amashati y'umweru, amakarita baranga mu ijosi. Bicaye ku ntebe za purastiki bateze amatwi umugabo uri hagati yabo, ufite irangurura majwi, impapuro mu ntoki. Arimo kubagezaho ikiganiro yabateguriye, bamwishimiye bamuteze amatwi.

Salle nini cyane yicayemo abana b'abanyeshuri batoya. Bambaye imyenda ya kake y'ubururu. Baricaye ku ntebe. Imbere yabo hari bakuru babo biga mu mashuri yisumbuye baje kubaganiriza bambaye impuzankano. Biragaragara ko bari kubabaza ibibazo bateye intoki bashaka gusubiza.

Imiryango ibiri y'amashuri ikinguye yubakishije amatafari ahiye, amadirishya n'inzugi bisiza irangi ry'icyatsi, isakaje amabati y'ubururu, hariho irangi rizengurutse ry'umweru, abana batoya bahagaze mu muryango bigaragara ko batashye bamaze kwiga.

Sale nini cyane yicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano, benshi bambaye amakarita abaranga, imbere yabo hari abayobozi babo ubona ko ari umugore n'abagabo babiri, bahuje urugwiro, bafite ameza ariho amazi yo kunywa.

Isomero ririmo ibitabo byinshi cyane bipanze muri etageri, bigiye biri mu mabara atandukanye, imeza ikoze mu giti, iriho itaburiya y'umweru bigaragara ko ari umwarimu ubigenewe, abana basangamo bamubwira buri gitabo batwaye akabasinyira.

Abantu benshi bari mu muhanda barimo gukora siporo, bambaye imyenda itandukanye, iy'umweru, iy'ubururu, umukara, bambaye inkweto, bazamuye amaboko ubona ko bashyize hamwe bari gukora imyitozo ngororamubiri, ni byiza ko twakora siporo kugira ngo imibiri yacu ibashe gukora neza.

Isomero rinini cyane ririmo ibitabo bitandukanye biri muri etajeri ameza abiri ateretse n'ahobagiye babirambikaho. ni byiza kujya mu isomero kuko buri wese agenda areba ibitabo akeneye bimwungura ubwenge, umwarimu wambaye impuzangano wica ategereje abamugana ngo abasobanurire.

Amarembo akinguye bigaragara ko harimo akayira kerekeza ku rusengero, hariho umusaraba hejuru, ku ruhande hari ubusitani bwiza cyane burimo igiti kinini kirumbaraye gitanga umuyaga, wakwiyicariramo ukumva umerewe neza, hanze hahinze izindi ndabo nyinshi.

Ikigo cy'amashuri kiri ahantu hari jarid nziza y'amahumbezi, ibiti birebire biteye hose, abanyeshuri bicaye bambaye impuzankano ibaranga bigaragara ko hari icyo bategereje kumva, imbere hari ameza ariho indangururamajwi y'umuziki, bategereje kwiyumvira ubunyezeze.

Imiryango ibiri y'amashuri ikinguye, yubakishije amatafari ahiye isakaje amabati, umuzenguruko usize irangi ry'umweru, umwana mutoya uhagaze munsi y'idirishya ufite umupira mu ntoki, yambaye inkweto za podaboda, ishati y'ubururu n'ijipo ya kaki, ari hanze ari kwitegereza.

Ubusitani bwiza cyane bubereye ijisho hari ibiti binini cyane, munsi yaho batemo udutebe kugira ngo abantu bajye bicaramo baruhuke baganire kumva n'akayaga keza gakururwa n'ibi ibiti.

Icyumba cy'inama kinini cyane, abasore, abakobwa, abajene, bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza ariho mudasobwa zabo, bari gukurikirana umuzungu uri imbere yabo, uri kubasobanurira uburyo bakora ku ku murongo ntakibazo bateje.

Umunara muremure cyane, uriho ibyuma bitandukanye bisize irangi ry'umuhondo, ni byiza ko tugira iminara ituma tugirana ikoranabuhanga ry'amashusho n'amajwi, kugira ngo tumenye amakuru yo hirya no hino.

Abana b'abakobwa batinyutse bajya kwiga imyuga itandukanye, mu ishuri rya IPRC Tumba, barimo bara purezanta ibyo bagezeho mu bushobozi bafite, kandi baritinyutse, abari imbere yabo babateze amatwi kumva ibyo bagezeho.

Inzu isize irangi ry'ubururu hateretsemo ameza arimo intebe ebyiri, igikombe cy'ubururu kirimo ubururoso cya orange, ubujerekani kandi butatu bw'umweru, akuma ashyiramo amazi agacomeka igihe akeneye gukoresha ashyushye.

Icyumba kinini gikorerwamo inama, biragaragara ko hari abantu bicaye bateze amatwi, imbere yabo hari amakayi bari kwandikamo, hari ababiteguye bicaye kuri table nziza cyane iriho igitambaro cy'ubururu, abazungu babiri, umukobwa mutoya uhagaze uri kubasobanurira ibyo bari kwigaho.

Sitade nini cyane yubakishije amabati ishinzemo ibyuma bifashe, hejuru hari aho bicara harimo urubyiruko rwinshi bigaragara ko hari icyo babateganyirije bagiye kubagezaho, bahuje umugambi barimo kuganira.

Icyumba cy'inama kinini cyane hicayemo abantu benshi, abagabo, abagore, urabona ko bahugiye kuri mudasobwa zabo, imbere yabo hari amazi y'inyange ateretse yo kunywa, bari mu nama, bahuje urugwiro, bari kuganira ku byo bari kwigaho

Ishuri rinini cyane bigaragara ko ari yuniverisite, hicayemo abantu bakuru kudutebe, imbere yabo hari ameza bashyizeho amakaye bari kwigiramo. Uhagaze imbere yabo wambaye ipantaro y'umukara, ishati y'umweru, afite mudasobwa imbere ye arimo kubasobanurira ibyo bari kwiga.

Icyumba kirimo igitanda kigeretse hasi no hejuru, gikozwe mu byuma, kiriho matera ebyiri, harashashe neza, hariho amashuka n'imisego. Ni byiza ko iyo ufite inzu ntoya ushobora kugerageza igitanda kigeretse kuko uburyamo buratubuka, abantu bakisanzura.

Ubusitani bwiza, burimo icyapa batiment centrale, hirya hari amazu menshi, hari ahantu abantu bicaye bari kuganira ku biti ibyiza bitanga umuyaga bakumva bamerewe neza, imodoka ya kwasiteri iri kugenda mu muhanda hirya.

Ikigo kinini cyane kirendwa n'abashinzwe umutekano abapolisi, hari akazu gatoya baruhukiramo, inyuma y'aho hari bariyeri bakinguriraho abantu babanje kubasaka, imodoka iraje bagiye kubanza kuyisaba ibyangombwa byose kugira ngo bayireke yinjire.

Icyapa kimanitse ku nzu kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru kiriho uruziga ruciyemo kabiri bigaragaza ko hariho umuriro n'itabi, handitse amagambo mu ibara ry'umweru avuga ko bibujijwe kunywera itabi ahantu hose ubunye.

Inzu nini nziza cyane, irimo amakaro y'umweru n'igitaka, ibereye ijisho. Ifite korodoro ndende, hicayemo umuntu bigaragara ko ahacungira umutekano. Hino ye hari ahantu hari ama esecari umuntu azamukiraho, kugira ngo afate mu bindi byumba.

Amazu menshi cyane acucitse bigaragara ko ashaje, amabati yayo ntabwo asa neza, yubakishije amatafari ahiye, hagati harimo urutoki rwinshi, hirya hari inzu ndende y'umutamenwa ya etaje.

Icyumba kirimo ibitanda bibiri bisashe neza, amashuka y'umweru meza cyane, imisego, amadirishya arakinze, harimo rido. Imbere aho habugenewe kubikwa imyenda hari na puberi irimo irangi ry'ubururu. Ni heza cyane kuko ni icyumba giteguye neza.

Icyumba kinini kiza kirimo igitanda gishashe neza, umusego, amashuka, couvre lit, imiryango irakinze, ku ruhande hari ameza hariho ibitabo ndetse n'intebe iteretse iruhande rwayo.

Inzu ndende igeretse kenshi. Isize irangi ry'umuhondo, isakaje amategura, amadirishya arakinguye. Urugo rwaho ruhazitiye ni ibyuma. Inyuma yaho hari umuhanda urimo abantu bari kugenda mu byerekezo bitandukanye. Ku ruhande hari ubusitani bwiza cyane.

Isomero rinini cyane ririmo ibitabo bitandukanye by'amoko yose. Ni matajeri ateyemo, bagiye babipanga bakurikije uburyo amateka agenda atandukanye. Ni byiza ko twajya mu masomero, tukamenya iby'ejo hashize ndetse n'ibishyashya tugezemo.

Biragaragara ko abanyeshuri barimo kwiga bambaye imyenda yijimye n'amakoti n'amapantaro, bafite amakaye mu ntoki barimo kwandika, imbere yabo hari ameza ariho igihimba gikokotse cyerekana ibice byose, bari kubasobanurira uko ingingo zigenda zitandukanye.

Jaride nziza cyane ibereye ijisho. Irimo ibyatsi biconze neza, ibiti birebire ndetse n'ibigufi. Ni byiza ko tugira ahantu twateye ubusitani, kugira ngo twicaremo tunezerwe turuhure ubwonko. Hirya hari amazu asize irangi ry'umuhondo, ashakaje amabati y'umutuku.

Icyumba kirimo igitanda gisashe neza cyane kirambitseho telefone, hirya hari umukobwa uhagaze wambaye ipantaro y'ubururu, ishati y'umutuku, igitambaro mu mutwe, imbere ye hari akabati karimo imyenda izinze neza cyane, biragaragara ko agikorera isuku, inyuma ye hari agapuberi gatoya.

Icyumba cy'inama kinini, hicayemo abantu ku ntebe z'ubururu, imbere yabo hari ameza harambitseho za mudasobwa nyinshi, ku meza hariho amazi yo kunywa no mu gacupa k'Inyange, baritegereza, bahuje umugambi, bari kumva ibyo bari kubabwira, uhagaze ari kubasobanurira.

Inzu ishaje yubakisha amatafari ahiye, isakaje amabati, biragaragara ko badaheruka kuyikorera isuku ishaje, ku ruhande ifitemo akayira, hirya no hino hari ubusitani bwiza cyane, igiti kirekire, gitanga umuyaga.

Icyumba cyiza cyane, kirimo amakaro y'umweru, shokora na oranje, hateretsemo ameza maremare ariho udutebe tubiri duteganye, hejuru y'ameza hariho ibitabo ndetse n'igikombe, hirya hari utubati tubiri duteganye.

Icyumba kinini kirimo ibitanda bibiri bishashe neza, biriho amashuka asa umusego, inyuma hari akajerekani k'umweru gateretse, karimo amazi yo kunywa. Etajeri iri ku ruhande, irimo inkweto, hateretseho n'utujerekani twinshi hejuru. Idirishya ririmo rido ikinze.

Icyumba kirimo igitanda kigeretse hasi no hejuru, gikozwe mu byuma, gisasheho amashuka atandukanye. Ni igitanda kigabanya akavuyo k'ibitanda byinshi mu cyumba. hari akabati kagenewe kubikwamo imyenda kariho varisi hejuru y'umukara, inkweto z'umweru. Ku ruhande, hari akameza gateretseho akuma gashyushya amazi, n'akajerekani k'umweru.

Icyumba kirimo ameza ariho isorori y'umweru, intebe iteguye y'ubururu yo kwicaraho, inyuma yaho hari etajeri iteguyemo inkweto neza cyane mu buryo bugiye ku murongo, hari isuku nziza.

Icyumba kinini kirimo abaganga bambaye impuzankano, bafite ibyuma bareberamo kugira basuzume indwara ya buri muntu afite mu mubiri.

Abaganga bishyize hamwe, bicaye muri salle nini cyane, bambaye impuzankano ibaranga, urabona ko bashyize hamwe, barimo barungurana ibitekerezo, kugira ngo basuzume indwara runaka bari gukoreraho ubushakashatsi.

Sale nini cyane irimo inkuta enye, isize irange ry'umuhondo, hejuru harimo purafo y'umweru n'amatara menshi, amadirishya arakinze, hagati harimo ameza akoze mu giti.

Icyumba kinini kirimo igitanda kigeretse hasi no hejuru kirashashe amakuvurori y'amabara atandukanye, kuruhande hari lavabo yo kwiboroserezamo, hasi hari inkweto z'umukara, icyatsi, umuhondo, ubururu zigiye zinyanyagiye zitari ku murongo.

Umuhanda muremure ushashemo amabuye. Umusore uri kugenda wambaye inkweto z'umweru, ipantaro y'ijingisi, ishati y'amaboko maremare afite igikapu mu ntoki, hirya ye hari ubusitani bwiza cyane burimo ibiti birebire, akazu ka MTN gahinguka.

Icyumba kirimo igitanda gisashe neza, amashuka y'umweru, kuvurori y'amabara avanze, hariho umusego, iruhande rwaho hari ravabo bavomeramo amazi biboroso, ku ruhande hari ameza ateguye neza hariho rido zikinze.

Icyumba gikorerwamo inama kinini cyane kirimo intebe nyinshi, zimwe nta bantu bicayeho. Umugabo wicaye wambaye umupira w'umweru. Imbere ye hari ameza ariho igikapu yaharambitse, ikaye ari kwandikiraho. Biragaragara ko ari mu nama atuje, yumva ibyo bamubwira.

Ubusitani bwiza cyane burimo indabo zitandukanye z'umutuku, iz'icyatsi, habereye ijisho, harimo agashyamba keza gakurura umuyaga kugira ngo abicayemo buve bamerewe neza, harimo udutebe abantu bicaraho bategereje ako kayaga ngo baruhuke mu mutwe.

Icyumba kinini cyane gikorerwamo inama, abantu benshi bicaye abagore, abagabo bahanze amaso imbere ibyo bari gusobanurirwa bafite amakaye ndetse bari no kwandika hari abari gufata amajwi n'amashusho bari hagati yabo kugira ngo bageze ibyavugiwe muri iyo nama hirya no hino.